Ikibuga kinini cyubatsemo amaheme y'umweru. Abaturage bitabiriye umuhango uri gukorerwa aho. Inzego z'umutekano ziri aho hafi y'abaturage.

Mu ihema ritatseho ibitambaro bifite amabara y'ibendera ry'u Rwanda, hicayemo abagabo n'abagore bigaragara ko hari inama barimo cyangwa inteko runaka.

Umushinga ufasha abagore mu kwiteza imbere, batanze ihene nyinshi. Abagore benshi bahagaze bafashe ibiziriko mu ntoki, harimo abahetse abana, inyuma yabo hari inyubako ndetse n'urutoki.

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye bicaye mucyumba cy'inama ku meza yabo hariho amacupa y'amazi, ndetse n'imashini za kopiyuta, budamu uribe wambaye ishati y'umukara na rinete afashe telefone muntoki, abinyuma haragaragaramo umuzungukazi.

Ikoraniro ry'abantu benshi bizihiwe, hari abagore n'abagabo bicaye mu matente, abakobwa babiri barambuye amaboko babyina, umugabo wambaye ikote ry'umukara n'ipantaro y'umukara n'ishati y'ubururu arakoma amashyi, aseka, amwenyura.

Ubusitani ahashinzemo amahema ateguye neza, abantu batandukanye abaturage, abayabozi, harakorerwa inama, umuyobozi uhagaze imbere yabo ari kubaganiriza.

Mu cyumba k'inama, ameza manini yicayeho abagabo n'abagore, imbere yabo hari udukarita, amacupa y'amazi, udukaye dutoya n'amakaramu bitwaje, bandika ibiri kwigirwa muri iyo nama.

Abagabo n'abagore bicaye mu cyumba cy'inama, bambaye imyenda y'ubururu, barahabwa amahugurwa, imbere yabo hari umugabo wambaye ishati y'umweru, bigaragara ko ari we ubayoboye, inyuma ye hari icyapa kiriho amafoto y'ibigo bitandukanye by'ubucuruzi.

Mu cyumba k'inama ahateraniye abantu batandukanye bicaye baganira bakora n'inama, hari ameza ariho ibyo kurya ndetse n'ibirahuri n'amacupa y'amazi, abagabo babiri begeranye umwe arongorera mugenzi we imbere y'uwo ku ruhande hateretse agakombe karimo ururabo.

Mu cyumba cy'inama abagabo n'abagore, bicaye ku meza mini ateretseho amacupa y'amazi, hariho udutabo dutoya imbere yabo ndetse n'amakaramu.

Abagore, abagabo, umuzungu wicaye ku ruhande wambaye ikote ry'umutuku n'ipantaro y'umukara, bicaye mu cyumba kinama aho bari kuganira kubijyanye n'ubukerarugendo ndetse n'iterambere yabyo mu Rwanda.

Imodoka yo mu bwoko bwa toyota ipakiye ibyuma, iruhande rwayo hari igipangu kiri kubakishwa amatafari, imbere gatoya hari insina z'ibitoki, n'umunara muremure w'icyuma.

Mu kirahuri cya mudasobwa, ahagaragara urupapuro ruriho inyuguti z'umukara n'icyatsi kibisi, ni ikigo cya leta gishinzwe ubwikorezi, gutwara abantu ndetse n'ibintu RURA.

Ahatangirwa serivisi za Leta. Ameza manini, harambitseho igikapu cy'umutuku n'icupa rya parasitiki, abagabo n'abagore bicaye mu biro, imbere yabo hari za mudasobwa n'ibitabo.

Umugabo wicaye imbere y'ameza ateretseho amacupa abiri y'amazi. Na telefone muntoki ze afite indangururamajwi, ikiganza cye cy'iburyo gifashe ku cyapa, ariho asobanurira abashaka gukora ibijyanye n'irembo.

Ifoto iriho umunara muremure ukozwe n'ibyuma, inyuma yawo hagaragara ikirere cy'ubururu, ni umunara ushinzwe ibijyanye n'itumanaho.

Ishyamba ririmo ibiti byinshi n'ibyatsi, inyamaswa yo mu bwoko bw'ingagi yicaye ireba hejuru kuruhande hari akandi kanyamaswa gatoya birashoboka ko ari umwana wayo.

Icyapa cy'umutuku cyadikishijeho inyuguti z'umweru. Inyuma hari uruzitiro rw' ibyuma, hagati harimo umunara muremure n'akazu gatoya.

Ifoto y'ikigo cya rura gishinzwe abatwara abantu n'ibintu, ukeneye izo serivisi batanze nimero wahamagaraho cyangwa ukabandikira unyuze ku rukuta rwa murandasi.

Umunara muremure w'itumanaho uzitiwe n'ibyuma, hahagaze umugabo ndetse n'umugore bambaye amajire y'imihondo, umwe yambaye ingofero y'umweru, umugore yambaye ingofero y'icyatsi kibisi.

Imodoka y'umukara ihagaze muri parikingi yubakishije amapave imbere yayo hari imiryango ifunguye n'inzu zikorerwamo ubucuruzi, kuruhande hari icyapa kigaragaza abakora ibijyanye nirembo.

Imiryango y'inzu ikinze, imbere yayo hari amapave ashashe muri parikingi. Mu kirahuri cy'iyo nzu hagaragaramo imodoka. Mu ruhande hari umuryango ufunguye w'inzu ikorerwamo ubucuruzi.

Icyapa kiriho ifoto igaragaza ibiti by'imbuto, insina z'ibitoki. Hasi gato hariho icyumba k'inana kicayemo abantu benshi bigaragara ko bari baribitabiriye amahugurwa kubijyanye n'ubuhinzi.

Urupapuro rw'umweru rwandikishijeho amabara atandukanye, ubururu, umukara, n'icyatsi kibisi ni urw'ikigo gishinzwe gucunga umutungo kamere, amazi, amashyamba, n'ibindi...

Uburyo bushya bwo kwishyura wifashishije ikoranabuhanga cyangwa apurikasiyo bwakemuye ibintu byinshi cyane nkuko ubona uyu musore witwa ganza arimo arohereza amafaranga niba ntibeshye neza, gusa sibyo byonyine bishobora gukorwa kuko ashobora kwishyura umuriro ndetse n'amazi akoresheje ibindi bivugagwa biri mu mabara y'umuhondo ndetse n'umweru, anateruye telefone ye rwose nta kindi kintu ari gukoresha nkuko ubibona.

Wodi wayidi shopingi ni uburyo bwazanwe n'abantu bateye imbere, aho buri muturage ashobora kuba yatumiza igikoresho ahantu hagiye hatandukanye, mu duce dutandukanye tw'isi. Ushobora kuba watumiza igikoresho cyawe kikakwisangira mu rugo iwawe, wishyuye kuri interinete.

Umunara muremure ukolotirije ibyuma hateretse ijerekani y'umuhondo haruhuru gato hari umurima urimo amateke, ibigori ndetse n'igiti kirekire cya voka kuruhande hari igice gitoya kigaragara cy'inzu ifite amatafari ahiye.

Ni mu biro ahatangirwa serivisi za Leta. Umugore wicaye imbere ya mudasobwa afite ikaramu mu ntoki arikwandikira umusore uhagaze imbere ye, wambaye umupira w'icyatsi kibisi, ipantaro ya kacye n'inkweto z'umukara. Ku ruhande undi mugore ushyize ikiganza mu gahanga, imbere ye hari mudasobwa.

Urukuta rurerure rwubakishije amatafari ahiye rufiteho ibyuma hirya hari inyubako ndende iriho iminara hejuru yayo, hejuru y'urwo rukuta hari amasinga y'amashanyarazi.

Icyapa kiriho ifoto irimo ibara ry'ubururu hariho telefone igendanwa ndetse na mudasobwa amagambo yanditseho y'umuhondo arakangurira abantu uburyo bakishyura mituwere bakoresheje kode y'irembo.

Urukuta rurerure rwubakishije amatafari ahiye, hejuru yarwo hariho amatara manini, kuruhande hariho ipoto rirerire rifite insinga z'amashanyarazi. Inyuma gatoya harimo inyubako ikoreramo akabari.

Ibikorwa remezo, harimo imikindo n'indabyo, amapoto maremamare ariho insinga z'amashanyarazi, amatara, inyubako igaragara igice gitoya.

Abakobwa babiri bahagaze mu mutaka w'umuhondo, imbere yabo hicaye umucuruzi wambaye ijire y'umuhondo. Ku ruhande hari ipoto rirerire ry'amashanyarazi, ndetse bari ku muhanda w'igitaka. Nyuma yabo hari umurima ukorotiriye n'ibiti.

Imashini nini ikwirakwiza amashanyarazi. Munsi yayo hari ibyatsi. Iteretse hagati y'amapoto abiri. Inyuma hari inyubako y'amatafari ndetse n'uruzitiro rw'ibyuma.

Umugabo uri mu muhanda wambaye umupira utukura atwaye igare, haruguru ye hari urukingo uriho ipoto y'amashanyarazi ifite insinga, inyubako ziri mu gipangu.

Umutaka utukura w'ikigo k'itumanaho cya Airtel umugabo wicaye munsi yawo inyuma ye hari buto iriho amasinga y'amashanyarazi. Inyubako ifite inzugi z'ubururu hejuru ku gisenge hasize amarange nayo y'ubururu.

Ibyuma bibiri binini hagati yabyo hateretse imashini ishinzwe kugabanya amashanyarazi, mu rurimi rw'amahanga yitwa taransifomati kuru ruhande hari ibiti bitandukanye harimo iby'ibiribwa n'ibiti bisanzwe.

Mu nyubako yubakishijwe amatafari, icyumba kinini cyicayemo abantu benshi hagaragara nkaho ari kwa muganga, umugore uhagaze wambaye agatambaro mu mutwe n'imyenda y'ubururu.

Ikibuga kinini cyubakishije amapave umugabo ufite akajerekani k'umuhondo mu ntoki, inyuma ye hahagaze abagore babiri uwambaye imyenda y'ubururu n'uwambaye itukura, kuhande hari umugabo wicaye wambaye umwenda w'umukara n'ipantaro y'umweru, inyuma hari inyubako ndetse n'imodoka eshatu zihahagaze.

Inyubako yubakishije amatafari, ifite koridoro y'amabati, imbere yayo hari ubusitani burimo ibyatsi bya basiparumu, ubuguni hateretse ivanse irimo ururabo, ni ikigo gikora ibijyanyanye n'ubuvuzi ibitaro.

Inyubako ndende igeretse, imbere yayo hateye indabo, n'ibiti, n'imikindo. Abantu bari kuyinjiramo bakeneyemo serivise, imodoka zihagaze imbere mu kibuga cyayo cya parikingi.

Inyubako nini ikoreramo ibitaro bya Masaka, mu kibanza cyayo hari abagabo n'abagore bambaye udupfukamunwa, ab'abazungu n'abirabura, ku rubaraza hari intebe z'ibyuma zicayeho abarwayi.

Ku marembo afunguye manini, yinjira mu kigo cy'ubuvuzi cy'i kabgayi, amazu ibiti biteye, abantu bari kugana kuri iryo vuriro.

Inyubako ndende ifite amadirishya y'ibirahuri by'icyatsi kibisi ndetse ikorotirijwe n'ibyuma, n'urukuta rw'amabuye, gore wunamye urikujisha umwana, undi mugore utambika yerekeza kuri iyo nyubako, amajaride meza arimo indabo nziza, ibiti ku mihanda hepfo ndetse n'amapoto y'amatara.

Abagabo bicaye ku ntebe y'urubaho bambaye amashati y'ubururu bigaragara ko ari abagororwa. Imbere yabo hari uhagaze iruhande y'igikuta kirimo isakaza mashusho.

Amafaranga menshi atandukanye, akoreshwa mu gihugu cy'ubumwe n'ubumwe bw'uburayi, harimo inoti za magana abiri; ijana; mirongo itanu, ndetse niza atanu.

Ifoto iriho umugabo wambaye ishati yiroze inyuma ye harundi wambaye ishati ya kacyi n'ingofero ya kacyi, imbere ye hari umugabo wambaye amarinete n'ikanzu y'umukara bigaragaza ko ari umucamanza.

Abagabo n'abagore bambaye imyenda yo mu ibara ry'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, bitamirije mugatuza. Bicaye ku meza akozwe murubaho imbere yaho hari agasanduku. Bafite amakayi mu ntoki, bari mu nama.

Ifoto ngufiya iriho umugabo w'inzobe wambaye imyenda itukura, mo imbere yambayemo ishati ndetse na karuvati. Bigaragara ko ari umucamanza.

Mu nteko y'abaturage harimo abagabo n'abagore n'abayobozi bambaye amabendera y'igihu cy'u Rwanda. Umugabo uhagaze hagati yabo wambaye imyenda y'abagororwa isa n'iroza bigaragara ko ari mu rubanza.

Ifoto y'umugabo munini wirabura wicaye yambaye amarinete, ku mutwe we afite umusatsi mwinshi bigaragara ko ari umukozi w'igisirikare.

Umupolisi wambaye imyenda y'akazi, iri mu ibara ry'umukara n'inkweto ndende, i ruhande rwe hari imodoka ntoya itwara abagenzi, umu motari nawe utwaye umugore bombi bambaye kasike z'icyatsi kibisi.

Ikamyo nini ikorera ikigo cya polisi, iri mu muhanda wa kaburimbo igenda, inyuma yayo hari amapikipiki yerekeza mu kindi cyerekezo, haruguru y'umuhanda hari ibiti birebire, ku rundi iruhande hari inzira y'abanyamaguru yubakishije abapave.

Umugabo uhagaze ku modoka ntoya, ikorera ikigo cya polisi yambaye imyenda y'akazi afunguye umuryango w'iyo modoka, inyuma ye hari abantu barimo batambuka, amapoto y'amashanyarazi ndetse n'inyubako zitandukanye.

Abagabo babiri bambaye imyenda y'imikara bigaragara ko ari imyambaro ya polisi, bahagaze iruhande rw'inzu ntoya mu marembo y'ikigo cya polisi ishami rya Remera.

Umugabo wambaye ikote'icyatsi kibisi na kasike y'umweru, atwaye moto nini arabisikana n'imodoka nto inyuma yayo hari undi utwaye moto ku ruhande hari ibiti, n'ibyatsi bitandukanye amatara maremare.

Umugabo wirabura wambaye agapfukamunwa k'ubururu yambaye imyenda y'umukara y'ikigo cya polisi mu ntoki ze afashe icyuma kirekire.

Icyapa cy'umweru kiriho ikirangantego handitseho amagambo y'ishami rya polisi rikorera i Nyarugenge umurenge Rwezamenyo inyuma hari ibiti birebire.

Mu cyumba cy'inama ahateraniye abantu b'inzego zitandukanye b'abayobozi harimo nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame na madamu we Jeannette Kagame, abaminisitiri n'abadepite.

Abagabo benshi bambaye imipira y'umweru ndetse n'iyubururu, bambaye n'ingofero z'imyeru. Mu ntoki zabo bafite amabendera aho bigaragara ko bari kwamamaza. Ku ruhande hari inyubako yubakishije ishitingi.

Isoko rifite ibicuruzwa bitandukanye by'imitako yakorewe mu Rwanda, harimo uduseke twinshi n'imitako yo mu ijosi, n'imitako yo kumanika mu nzu harimo n'ibibumbano bigiye bitandukanye n'udutebo.

Ahateraniye abantu b'urujya n'uruza bafite amabendera mu ntoki zabo bayazamuye, ishyaka rya efuperi umukandida Paul Kagame aho yari yaje kwiyamamariza.

Mu cyumba cy'inama cyinteko nshinga mategeko abadepite bicaye ku ntebe bambaye imyenda myiza imbere yaho hari zamudasobwa, amacupa yamazi, imbere hari abayobozi babo bicaye aho bakorera inama yiga ku miyoborere.

Efuperi oye, ku gipfunsi. Abagabo n'abagore bambaye imipira n'amashati by'imyeru, bafite amabendera mu ntoki, bigaragara ko barimo kwamamaza, ni abayoboke b'ishyaka rya efuperi.

Mu cyumba cy'inteko ishingamategeko abadepite bicaye ku ntebe imbere yabo hateretse amacupa y'amazi babiri b'imbere umugabo n'umugore bararebana mu maso baganira.

Mu cyumba gikorerwamo amatora, umugore wifubitse igitambaro mu mutwe bigaragara ko ari umwisiramu kazi. Udusanduku twa pulasitiki duteretse ku meza dushyirwamo impapuro uwatoye yatoreyeho. Imbere ye hari ushinzwe kugusobanurira wambaye ingofero y'umweru n'umupira w'umweru.

Icyapa kimaritse ahari gukorerwa abatora, abagore n'abagabo n'abana bitabiriye, umugabo winjira wambaye ikoti ry'umukara ingofero y'umutuku mu umutwe n'ipantaro y'umukara, mu toki afite ikayi, uwo babisikana yambaye umupira w'amabara n'ipantaro ya kaki.

Icyapa kiriho amafoto magufiya agaragaza abakandida biyamamarizaga umwanya wa perezida wa repubulika ndetse n'uburyo batsinze begukanye iyo myanya haragaragara ko insinzi yegukanye polo kagame n'amajwi mirongo icyenda n'icyenda n'ibice cumi na bitanu ku ijana abandi baratsinzwe.

Ifoto iriho abagore n'abagabo inyuma yabo hariho icyapa cyamamaza umukandida wari uri guhatanira ku umwanya wo kuba perezida wa repubulika.

Ku meza arambuyeho igitamabaro cy'umuhondo, agasanduka ka purasitike n'umugabo ushyiramo imbere mu gasanduka urupapuro yatoreyeho. Umukobwa wicaye wambaye ingofero y'umweru n'umupira w'umweru imbere ye harambitse ibitabo afite ikaramu mu ntoki.

Umugabo wirabura wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara ufashe mu mifuka, ku ruhande rwe hari icyapa kinini kiriho amafoto magufi agaragaza undi muntu wambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru. Inyuma yaho hari ibiti birebire ndetse n'ibigufiya. Haruguru gato hari amazu yubatse mu buryo bugiye butandukanye.

Ifoto y'urupapuro rufite ibara ry'icyatsi kibisi handitseho amagambo y'umweru. Ibiganza bibiri biriho izuba ni ikigo cy'ubwishingizi.

Amabendera barebare ariho ishyaka efuperi abagabo babiri bahagaze bamwenyuye bambaye imipira n'ingofero by'umweru uri inyuma yabo hagati afite ifoto y'umukandida w'iryo shyaka.

Umugabo wambaye imyenda y'ubururu hasi no hejuru mu ntoki ze arasunika ingorofani ikozwe mu biti, abantu benshi bari inyuma ye batambuka, imodoka ifite irange ry'umweru, ku ruhande inyubako zigeretse zikoreramo ubucuruzi.

Moto ebyiri zitwaye abagenzi mu muhanda, hagati y' amamodoka atatu magufiya. Ku ruhande rw'umuhanda hateye ibiti birebire n'indabyo.

Moto ya lifani ifite amabara y'ubururu, umusore wambaye umupira w'umuhondo, n'ipantaro y'ikoboyi. Hakurya y'umuhanda hari imodoka irimo abagabo batatu bari gupakurura ibicuruzwa.

Imodoka ebyiri za minibizi, imbere yazo hahagaze indi modoka nini cyane yo mu bwoko bwa yutonge. Abantu benshi bahagaze, abandi bari mu mirimo itandukanye, biragaragara ko ari muri gare.

Imodoka nini iri mu muhanda. Ifite kontineri itwara mazutu, ku ruhande rw'umuhanda hateye ibiti birebire n'indabo z'amoko atandukanye.

Umunyegare uri mu muhanda wa kaburimbo wambaye umupira utukura, ku ruhande hari imodoka nini yo mu bwoko bwa yutonge itwara abagenzi, abanyamaguru batambuka muri uwo muhanda hakuno hari inzu ikoreramo ubucuruzi bwa esanse.

Imodoka nini itwara abagenzi, benshi bayizi ku izina rya shirumuteto, ihagaze muri gare, imbere yayo hari izindi nyinshi aho abagenzi baza kuzifatira.

Imodoka nini yo mu bwoko bwa yutonge, ihagaze. Ku ruhande rwayo hari ibinogo biretsemo amazi asa nabi. Hakurya hari indi modoka ntoya yo mu bwoko bwa kwasiteri. Hari ishyamba rigaragara ririmo ibiti byinshi.

Abantu benshi bambaye imyenda isa umweru iruhande rw'ibumoso hakaba hari abakobwa gusa, iruhande rw'iburyo hakaba hari umusore n'umukobwa umwe, imbere yabo hakaba hari umuzenguruko w'ameza ari umwenda usa ikigina imbere yabo hakaba hari umugabo wambaye rinete, iruhande rwe hakaba hari igikapu cy'abamama ndetse na telefone.

Imodoka z'ubwoko butandukanye, zihagaze iruhande rw'inyubako ndende ikorerwamo ubucuruzi. Ipikipiki yo mu bwoko bwa rifani, imbere yayo hari izindi moto zisanzwe zitwara abagenzi. Imbere gato hari akaduka gato cyangwa se kiyosike y'ikigo cy'ubucuruzi cy'itumanaho cya eyateri.

Imodoka isize irangi ry'umweru. ku ruhande hariho iry'umuhondo, ndetse n'amagambo yandikishije iry'umutuku. Yo mu ishyirahamwe yego. Ihagaze mu muhanda w'igitaka, ku ruhande hari izindi nyubako.

Amamodoka mato ndetse n'amanini ari mu muhanda munini, amapikipiki ariho abamotari, abanyegare batwaye abagenzi, abanyamaguru bagenda ku ruhande, amamodoka menshi aparitse ku ruhande rw'umuhanda.

Moto nyinshi zihagaze imbere y'inzu zikorerwamo ubucuruzi imiryango ifunguye. Umugabo wambaye imyenda y'ubururu bigaragara ko ari umukarani, arahambira umufuka munini w'ibiribwa kuri moto; inyuma hari abagore bahagaze begamiye inyubako zikorerwamo ubucuruzi.

Ni mu muhanda minini wa kaburimbo, ahari imodoka yo mu bwoko bwa dayihatso, isize irange ry'umweru, ku ruhande hari umu motari utwaye moto, wambaye ingofero y'umuhondo, imbere ye gato hari undi utwaye moto iriho agasanduka k'ubururu kagemura ibicuruzwa, hari n'umugabo w'umunyamaguru wikoreye imifuka ibiri minini, n'unsi ugenda ntacyo afite.

Aha ni mu muhanda. Harimo imodoka nini ya bisi, itwarira abantu hamwe na ritiko. Hariho n'umugenzi utwaye umuzigo uremereye cyane. Arimo aragenda mu cyerekezo kimwe n'imodoka ya bisi. Hakurya y'umuhanda hari ibiti birebire.

Umugabo wunamye wambaye ingofero y'umukara, ishati y'ubururu, ijire y'umuhondo. Yambaye inkweto ndende z'umukara, ukuboko kwe kurambitse mu mufuka uri ku ngorofani. Ku ruhande rwe hahagaze imodoka ifite ibara ry'ikigina.

Icyapa kiri mu ibara ry'umutuku, cyanditseho amagambo mitsingi, imodoka nini ya rukururana bigaragara ko ifite kontineri itwara mazutu, umunyegare wambaye umupira w'icyatsi kibisi, uhetse umugenzi, imodoka ebyiri ziri kubisikana na zo mu muhanda.

Umushoferi utwaye imodoka ntoya, ari mu muhanda wa kaburimbo, ku ruhande rwe hari ipoto rirerire ry'amashanyarazi, ibiti n'indabo biteye hirya.

Imodoka ntoya itwara abagenzi umuhanda ugabanyijemo ibice bibiri hagati yateye indabo n'imikindo ku ruhande rwo hirya hari ibiti abapoto y'amatara.

Imodoka ntoya iri mu muhanda ifasha abashaka kwiga gutwara, inyuma handitseho nimero wahamagaraho uramutse ukeneye iyo serivisi, ku ruhande rw'umuhanda hateye ibiti birebire n'indabo, amasinga n'amapoto y'amashanyarazi akikije uwo muhanda.

Moto ebyiri zihagaze ku ruhande rw'umuhanda, ziranmbitseho amakasike, abagabo n'abagore batambika mu muhanda wa kaburimbo, hepfo gatoya hari agapangu kaparitsemo izindi moto nyinshi, haruguru hari abagabo n'abagore bicaye imbere y'amazu.

Imodoka nini yo mu bwoko bwa fuso iri mu muhanda wa kaburimbo, iruhande rwayo hari abanyamagare babiri bahetse abagenzi. Hakurya y'umuhanda hari abagabo babiri bari kugenda n'amaguru.

Imodoka ihagaze m'umuhanda wa kaburimbo isize irangi ry'ubururu ipakiye ibyuma umukara ihagazemo hagati umugabo k'uruhande uri gutambuka inyubako ziri impade yayo.

Umusore unyonga igare mu muhanda wa kaburimbo, ku ruhande rwe hari imodoka nini cyane, hakurya y'umuhanda hari umugore utambuka wambaye umwenda w'ubururu. Imbere gato yuyu munyonzi hari umugabo wambaye ikote ry'umukara n'ipantaro y'umukara.

Imodoka nini ihetse kontineri itwara mazutu umugabo wambaye ishati yumweru uri mu muhanda hagati, amamoto, abanyamaguru, amamodoka y'ubwoko butandukanye, atwara ibintu n'abantu.

Ibikorwaremezo, imihanda, indabyo z'amoko atandukanye, inyubako ndende, akazu gato kubatse gasakaye aho abagenzi bicara bakaruhuka.

Mu isangano cyangwa se mu ihuriro ry'imihanda, umumotari wambaye kasike y'umutuku atwaye moto; abantu b'urujya n'uruza bambukiranya imihanda hakurya hari inyubako ndende zigiye zitandukanye.

Abantu benshi bari mu kibuga gikinirwamo umupira w'amaguru abazamu abiri, ibiti biri kuruhande rw'ikibuga ibirebire n'ibigufiya.

Ikibuga gikinirwamo umukino wa basiketi, hari agatebo banagamo umupira ,inyuma kuruhande hari ibiti birebire, binini ,bigaye cyane, hagati mu kibuga harimo uruziga aho umukino utangirira.

Ikibuga gikinirwamo urukino wa basiketi, hasizemo irangi ry'umutuku n'iry'icyatsi kibisi bigaragara ko bitangiye gusaza. Inyuma hari izamu baterekamo umupira ibiti biteye ku rukuta ruzengurutse icyo kibuga.

Umugore munini uhagaze ku muhanda wa kaburimbo, afashe ikiganza ku munwa, ukuboko kwe kw'ibumoso gufashe ivarize. Ku ruhande hari icyapa kigaragaza intara ya Gicumbi, inyuma hari ipoto ndende y'amashanyarazi, ku rundi ruhande hari icyapa kigaragaza ngo "murakaza neza".

Icyapa kinini kiriho ibyerekezo by'imihanda, handitseho aharekeza ku kibuga cy'indege n'ahitwa mu rugunga munsi y'icyo cyapa, hari ubusitani buteyemo ibiti ku ruhande hari inzira y'abanyamaguru ikozwe n'amapave.

Ifoto iriho icyapa ndanga, kigaragaza ko nta modoka nini zigomba kunyura muri uwo muhanda. Abashoferi bose bagomba kubyubahiriza nk'uko amategeko abiteganya.

Ibyuma birebire bisize amarangi y'umweru n'umukara, ahariho icyapa kiyobora abantu mu kigo gikorerwamo igorora muri Nyamagabe.

Icyapa cy'umutuku kigaragaza ko ibinyamitende bitemerewe kunyura aho hantu. Ni ifoto igaragariza abanyonzi ko batagomba kunyura muri uwo muhanda.

Umukobwa uhagaze wambaye ipantaro yumukara n'ishati irimo amabara y'umweru, afite ntoki ze umutaka ufunguye. Imbere ye hari undi wicaye inyuma yaho gatoya hari amarembo afunguye yinjira ku nyubako, mu kibuga cy'iyo nyubako hari amamodoka n'amapikipiki ahahagaze.

Inyubako yubatse igeretse, ya etaje. Igice cyo hasi, imiryango yayo irafunguye. Ibyapa biyobora abantu bahagana bashaka serivise muri izo nyubako.

Ibyuma bizitiye umurima uhinzemo ibigori, hepfo gato hari isina zi'ibitoki ndetse n'inyubako nyinshi zitandukanye, zifite igufi n'indende biragaragara ko ari nk'umutugudu.

Uruzitiro rw'ibyuma ruzitiye ikibanza kinini harimo ibiti n'ibyatsi bitandukanye, inyuma hari inyubako ndende.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi, ifite etajeri irimo ibinyobwa bitandukanye, imbere hari kontwari, intebe z'imbaho, ku rubaraza hateguye intebe nyinshi n'ameza, bikozwe mu mbaho. Ubusitani burimo indabo.

Ku muhanda w'igitaka ahateye umukindo n'ibiti by'indabo bigufiya, igipangu gikotiriye cy'amatafari ahiy,e urugi runini rukoze mu byuma rusize irangi ry'icyatsi kibisi mo hasi harimo inzu nini isakaye ifite igisenge kirekire.

Ibiti birebire biteye kuruhande rw'umuhanda harimo iby'imikindo imodoka ntoya n'inini ziri ku muhanda hagati zishoreranye, abantu b'abanyamaguru bagenda agapapuro gato kagaragaza ifoto igaragaza ko ari k'umuvunyi.

Umudugudu urimo inyubako nyinshi zitandukanye, harimo izigeretse n'ingufiya. Ibiti by'amoko menshi biteye mu busitani bw'izo nyubako.

Mu busitani burimo indabo n'ibiti; ipoto y'amashanyarazi. Ku ruhande hari urukuta rwubakishije amatafari, ruzengurutswe n'ibyuma inyuma, gato hari inyubako ndende ndetse n'inyubako ngufiya izengurutswe n'ibiti.

Munsi y'umuhanda wa kaburimbo hari inzu igizwe n'amabati n'urukuta rurerure, ibiti by'amoko atandukanye. Hakurya hari umudugudu urimo amazu meza, amato ndetse n'amanini, abaremare n'amagufi.

Abantu benshi bahagaze imbere y'inyubako ndende, hari abari ku mapikipiki, imodoka zihagaze, kamera zo ku muhanda zigaragaza ibyerekezo bakunze kwita feruje. Imikido n'ibiti bigufiya by'indabyo.

Umugabo uhagaze akebutse ku ruhande rwe, mu kiganza cye afite terefone. Ku ruhande hari igipangu gifunguye gifite inzugi y'amabara y'icyatsi kibisi. Mo imbere harimo insina z'ibitoki, hepfo hari inyubako ndende izengurutswe n'ibiti by'indabyo.

Umudugudu urimo amazu menshi, amaremare ndetse n'amagufi asakaje amabati y'amabara atandukanye. Ku mpande hagiye hateye ibiti n'indabyo n'ibindi byatsi.

Igipangu cy'amatafari ahiye icyapa cy'umutuku imodoka y'umukara m'umuhanda hakurya y'inyubako igeretse amarembo afunze ariho urugi rw'icyatsi kibisi.

Icyapa gishyirwa ku muhanda kiburira abawugendamo ko aho bagiye kugera hari umuhanda unyurwamo ubazengurutse.

Imodoka zihagaze imbere y'inyubako ya etaje ifite ibara ry'umweru irafunguye urugi rw'inyuma. Uruzitiro rw'iyo nzu rufite ibyuma. Imikindo iteye mu mbuga, ku mabaraza y'iyo nyubako hari amavaze ateyemo indabo.

Amazu manini yubakiye ku murongo akoreramo inganda, hepfo gato umurima uhinzemo ibigori, insina ndetse n'urutoke. Imashini ya kateripirare ihagaze ifite ibara ry'umuhondo.

Umuhanda munini wa kaburimbo, ugabanyijemo ibice bibiri, ku mpande hateye imikindo, amatara maremare amurika, ibinyabiziga bitandukanye birimo za moto n'amamodoka. Imironko y'umweru aho abanyamaguru bambukira.

Abamotari babiri batwaye za moto bahetse abagenzi, bari mu muhanda munini wa kaburimbo, imbere hari ikamyoneti nini, munsi y'umuhanda ugerekeranyije, ku ruhande indabo n'ibiti n'amatara.

Moto zihetse abagenzi, abamotari barerekeza mu cyerekezo kimwe. Uruhande rw'umuhanda hari inzira y'abanyamaguru, amazi mabi aretse, ibiti, amapoto y'amashanyarazi ari ku ruhande rw'u muhanda ariho amatara.

Umuhanda munini wa kaburimbo urimo amamodoka n'amamoto. Amafuso ababiri manini, ku ruhande amapoto abiri manini n'amatoya, amatara n'insinga z'amashanyarazi.

Umusore uri ku igare, inyuma ye hari umugabo ndetse n'umugore bafite udufuka mu ntoki. Ku ruhande hari ibiti biteye by'imikindo. Hejuru hari umuhanda wubatse mu buryo bugezweho, amatara ari kwaka amabara y'umuhondo.